Akagera bizinesi gurupe itanga imodoka zifasha abakozi bayo mu kazi, uyu nguyu rero akaba yarahawe igihembo k'imodoka nk'umukozi mwiza.

Iyi n ni inzu ikodeshwa i kigali i kanombe ifite ibyumba bitatu ikaba ifite ubwogero bubiri ikaba uri gukodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi ndacyeka aribyo .